Umugabo wicaye mu ntebe, afite umusatsi utari mwinshi, yambaye amarinete ndetse n'imibiri yombi. Yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru. Imbere ye hari indangururamajwi, naho impande ye hari agacupa k'amazi yo kunywa.

Abagabo benshi bicaye ku ntebe imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'indangururamajwi bose bari kureba ahantu hamwe bigaragara ko bakurikiye ibintu biri kuva aho hantu.

Abantu batatu, abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, ibumoso habanza umugore wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'agapira k'umweru imbere hari mudasobwa hakurikiyeho umugore yambaye amarinete ndetse n'agakoti k'umutuku ndetse n'umugabo wambaye ishati y'ubururu.

Abagabo batatu bose bicaye ubona bari kureba ahantu hamwe, umwe yicaye mu ntebe ndetse yambaye ikote ry'umukara ishati y'umukara ndetse na karuvati y'umweru, abandi babiri nabo bicaye, imbere yabo hari za mudasobwa.

Inzu nziza zifite ibisenge bizamuye, ibisenge byabyo ni amategura, hari ibigega bibiri bisa umukara, ifite uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye, hari ipoto ku muhanda rishinze mu busitani.

Umuhanda wa kaburimbo w'ibyerekezo bibiri. Ku nkengero z'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru. Hari ipoto rirerire ririho itara rimurika umuhanda igihe bwije. Inyuma y'iryo poto hari imodoka ebyiri ziparitse z'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ku nkengero z'umuhanda hake k'abanyamaguru, hari umugore uhagaze munsi y'umutaka wa emutiyene wambaye ikanzu, mbere ye hari icyapa kigaragaza ko imbere hari dodani ndetse n'ipoto ririho insinga z'amashanyarazi.

Umugabo uhagaze wambaye ikanzu y'umutuku, yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'agatambaro k'umweru, yambaye ingofero, imbere hari indangururamajwi, azamuye ukuboko kw'iburyo, naho ukuboko kw'ibumoso gufashe ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, uko bigaragara uyu mugabo ari kurahira.

Umugabo wirabura ufite umusatsi muke ku mutwe yambaye amarineti yambaye ikoti ry'ubururu ishati y'umweru ndetse na karuvati y'ubururu irimo utuntu tw'umweru imbere ye hari icupa ryamazi yo kunywa yitwa inyange.

Umugore uhagaze yambaraga apfukamunwa ndetse n'ikanzu y'umukara, afashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, azamuye ukuboko kw'iburyo bigaragara ko ari korahira inyuma ye hari abandi bicaye ubona ko bakurikiranye iyo ndahiro.

Umupolisi uhagaze yambaye impuzankano za gipolisi, amaboko ye ari inyuma hari urujya n'uruza rw'abanyamaguru bari kwambuka aho abanyamaguru bambukira ndetse n'ibinyabiziga biri mu muhanda harimo n'amagare.

Umugabo uhagaze yambaye imyenda y'akazi mu ntoki ze afite igitambaro cy'umutuku, imbere ye hari gaze hariho n'isafuriya iri kwaka umuriro, inyuma y'umugabo hari abandi bantu bahagaze bari kumufotora bakoresheje amatelefone yabo.

Abagabo babiri bahagaze. Bose bambaye amarinete, ndetse bambaye n'amakoti n'amakaruvati. Mu ntoki zabo bafitemo ibitabo bisa bose umutuku. Ku mpande zabo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe bambaye imyenda isa iri ni ishyaka ryitwa efuperi rikorera mu Rwanda rifite ibirango by'amabara ariyo umutuku, umweru ndetse n'ubururu.

Ababyeyi bicaye ubona ko basheshe akanguhe, imbere yabo hari amazi, mu ntoki zabo bafashe amadarapo yanditseho efuperi; iri ni ishyaka rikorera mu Rwanda, rikaba rirangwa n'amabara ariyo: umutuku, umweru, ndetse n'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo ni nyabagendwa ariko kugenda ibibinyabiziga bitandukanye, ku inkengero z'uyu muhanda hari akayira k'abanyamaguru, ndetse ku mpande z'ako kayira hari amatara amurikira umuhanda mu gihe cya n'ijoro.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka y'umweru ndetse na moto, ufite ibisate bibiri, ku nkengero z'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru, inyuma y'aka kayira k'abanyamaguru hari uruzitiro rwo mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo igikamyo cy'umweru ndetse n'umunyonzi uhetse umuntu. Ku nkengero z'uyu muhanda, hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'uruzitiro rusa icyatsi n'ibiti birebire.

Imodoka nini ya ritoko iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo isize amarangi, ariyo icyatsi n'ubururu ndetse n'umweru ku ntegero z'uyu muhanda wa kaburimbo hari akayira k'abanyamaguru harimo umunyamaguru kukagendamo wikoreye umufuka.

Imodoka y'igikamyo iri kugenda muhanda wa kaburimbo, ifite ibara ry'umutuku, ku nkengero z'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru, inyuma y'ako kayira hari uruzitiro ruri mu ibara ry'icyatsi ndetse hateyemo n'ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga, harimo moto ebyiri, muri uwo muhanda harimo imirongo icagaguye, ku nkengero z'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ubusitani buteyemo igiti.

Igikamyo kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo mu muhanda ufite ibisate bibiri kandi hari kugendamo n'ibindi binyabiziga bitandukanye, harimo n'amamoto ku nkengero z'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo w'ibisute bibiri muri uwo muhanda hari kwinjiramo igikamyo ndetse harimo na moto ku nkengero z'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru, ndetse n'ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo w'ibyerekezo bitandukanye, uri kugendamo imodoka zitandukanye. Ku nkengero zawo hari akayira k'abanyamaguru, ndetse n'amaduka, harimo n'abantu bigaragara ko bari gutanga serivisi zijyanye n'ibyo ayo maduka akora.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyaziga bitandukanye, harimo igikamyo ndetse na moto, ku nkengero z'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru ndetse hari n'uruzitiro ruzitirishijwe umwenda w'icyatsi, inyuma y'urwo ruzitiro hari ibiti birebire.

Umuhanda w'ibyerekezo bitandukanye uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye ku nkengero z'umuhanda hari agayira k'abanyamaguru muri ako kayira hari kugendamo umunyamaguru ufite agafuka mu ntoki.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ikinyabiziga cy'amapine atatu, akenshi gikora mu buryo bwo kwikorera ibintu, ku nkengero z'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'uruzitiro ruri mui ibara ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye ufite ibisate bibiri uri kugendamo amamodoka ndetse na moto kurunfi ruhande hari ibiti by'imikindo inyuma y'ibiti by'imikindo hari undi muhanda mu cyerekezo kimanuka.

Umuhanda wa kaburimbo w'ibisate bibiri hari kugendamo ikamyo nini ifite ibara ry'icyatsi, kandi ku nkengero zo mu muhanda harikera k'abanyamaguru inyuma y'ako kayira k'abanyamaguru hari uruzitiro ruri mu ibara ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo hariba byerekezo bitandukanye byo kugendamo ibinyabiziga harimo igikamyo cy'ubururu ndetse na moto ku nkengero z'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'uruzitiro ruri m'ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuhanda wa kaburimbo w'ibisate bibiri. Uwo muhanda uri kugendamo imodoka itwara abantu. Ndetse n'umunyonzi. Ku nkengero z'uy'umuhanda kandi hari akayira k'abanyamaguru. Inyuma y'aka kayira k'abanyamaguru hari uruzitiro rwo mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibiti birebire.

Icyapa cyo mu muhanda impande eshatu, ubuso nimweru, ikirango kiri mu ibara ry'umukara ndetse n'umuzenguruko w'umutuku, icyo cyapa bagishyira ahantu hari gukorerwa imirimo urugero nk'igihe bari gusana imihanda yangiritse.

Icyapa cyo mu muhanda abantu biga amategeko y'umuhanda bakunda guhura n'iki cyapa cyane ndetse n'abashoferi. Ni icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, gifite ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umweru. Icyapa kigaragaza ko imbere iburyo hari akandi kayira kinjiramo ndetse n'umuhanda ukomeza.

Icyapa gishinze ahantu mu busitani, imbere yacyo hari ibiti birebire, iki cyapa ni icya mpandeshatu, gifite ubuso bw'umweru, ibirango n'umukara ndetse n'umuzenguruko w'umutuku, kirimo abantu babiri bari kwambuka bigaragara ko ariho abanyamaguru banyura bambutse.

Amazu y'ubucuruzi akorerwamo ubucuruzi butandukanye, umuryango wa mbere urafunze bigaragara ko habakoramo noteri wikorera, umuryango wa kabiri bicururiza ibijyanye n'imideri, hanze hari ibipupe byambaye imyenda bigaragaza ko bacuruza imyenda.

Ni mu masaha ya nimugoroba imodoka ziri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ku nkengero z'umuhanda hari amatara amuririka umuhanda kugira ngo ukomeze kuba nyabagendwa, hari umunyamaguru uhagaze aho abanyamaguru bambukira.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, kuri uyu muhanda turabonaho aho abanyamaguru banyura iyo bari kwambukiranya umuhanda ndetse kuri uyu muhanda hagiye hariho n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya n'ijoro.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibyerekezo bibiri ku nkengero z'uyu muhanda hari akarondorondo k'ubutaka, ndetse hari n'icyapa hakurya harimo ibinyabiziga kugenda mu kindi cyerekezo kimanuka.

Umuhanda wa kaburimbo w'ibisate bibiri biri kugenda n'ibinyabiziga, ku nkengero z'umuhanda harikera k'abanyamaguru, hari n'umunyamaguru uri kugenda muri aka kayira wambaye umupira w'umutuku. Hejuru naho hari undi umuhanda uca mu kirere.